Umuganga wambaye itaburiya y'umweru uri gupima umuvuduko w'amaraso, yiteze igitambaro cy'umukara, yambaye umupira ufitemo ingofero. Umukecuru ari gupima yambaye ishati itukura akenyeye n'igitenge kirimo amabara ry'umuhondo n'umutuku, hirya hicaye abandi bakecuru babiri: umwe yambaye umweru undi yambaye umukara urimo umweru, yiteze n'igitambaro cy'umutuku.

Abantu bambaye imipira y'umweru nu n'imipira y'ubururu ingofero z'umweru harimo umuzungu umwe abandi ni abirabura harimo undi umwe wambaye ingofero y'ubururu, bari munsi y'igiti kinini kigonze gifite amababi y'ubururu inyuma hari n'inyubako nziza cyane, hepfo haranditse ngo umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura.

Abantu bambaye imipira y'ubururu n'ingofero z'umweru ni batanu bashyize igipfunsi hejuru, bambaye imipira yanditseho ngo shora neza, inyuma hari icyapa cy'umweru, hirya hari inzu iriho ibara ry'umukara, ku yindi sayidi hariho ibara ry'umweru.

Umukecuru wicaye wambaye igikote kinini, yiteze igitambaro gisa amabara y'icyatsi ,mu bigaragara afite uburwayi bwo mu mutwe. Yambaye ijipo y'umutuku, yambaye n'inkweto zifunze, afite ibyatsi mu ntoki, imbere ye harambitse amacupa, inyuma hari abandi bantu.

Abantu batandatu harimo abagabo babiri, harimo umugore babiri, abana babiri, umwana umwe papa aramuhetse undi mama aramuhetse, bigaragara ko ari famiye yishimye igizwe na papa na mama na sogokuru na nyogokuru n'abana umuhungu n'umukobwa, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara n'ubururu n'umuhondo, bafite imisatsi myinshi imanutse.

Abantu babiri umwe yambaye itaburiya y'ubururu bigaragara ko ari umuganga, arishimye, ari kumwe n'umukecuru wambaye umupira urimo amabara y'umweru n'umukara n'indorerwamo z'amaso. Inyuma yabo aho bahagaze hari inyubako ifite ibikuta by'umweru, imbere hateye indabo.

Umuganga uri kumwe n'umusaza, umuganga yambaye itaburiya ijya kuba ubururu bwerurutse cyangwa se umweru, umusaza yambaye umupira w'umuhondo n'agakoti k'umukara, umuganga afite ibisuko bicaye ku ntebe.

Umuganga wambaye itabiriya y'umweru n'indorerwamo z'amaso ufite umusatsi wa naturere, ari kumwe n'umubyeyi w'umudamu witeze igitambaro, wambaye n'ibitenge birimo amabaray'umukara. Aryamye ku buriri busa ubururu n'agapira k'umuhondo bari kumutera urushinge. inyuma hari ibara ry'umuhondo.

Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu ufite ibisuko by'umukara, iruhande rwe haryamye umurwayi ku gatanda wambaye umwenda urimo amabara y'umweru n'ubururu n'icyatsi ari kumuhindurira sarumu, ku gitanda hirya hari umusego w'umweru, inyuma hari imashini ya mudasobwa.

Ibinini by'ubwoko bitandukanye harimo iby'umweru, iby'umuhondo, n'iby'umuhondo werurutse, hari n'urushinge bigaragara ko ari ibiyobyabwenge. Hejuru haranditse ngo" the future for peformance enhancing drugs in sports". Bigaragara ko barikuvuga ngo ahazaza mu kurwanya ibiyobyabwenge mu mikino.

Ibinini birambitse ku meza biri mu kantu gakozwe wagira ni igicuma, ibinini bifite ibara ry'ubururu bwererutse, aho biteretse harasa umweru n'akabogisi byari birimo gafite ibara ry'ikijuju, ibinini ni byinshi cyane ariko hari bine bitegeranye n'ibindi.

Ibyatsi byinshi n'ibiti bivanze bisa icyatsi kibisi harimo utuntu tw'umweru tugaragara nkaho ari amazu matoya, inyuma hari irindi bara ry'umukara, ibiti nabyo ubwabyo bigiye bishamikiyeho ibara ry'umukara ririho amashami.